Umuganga arimo arasuzuma imiti ko yujuje ubuziranenge kugira ngo ayihe abakiriya baje kwivuza kandi igomba kuba ifite ubuziranenge.

Aho bacururiza imiti y'amatungo cyangwa se avura abantu agira umumaro cyane cyane uko tuyifashisha iyo twarwaye cyangwa se amatungo yacu nayo yarwaye.

Muganga arimo arapima umwana amaso, kugira ngo amufashe amuhe imiti kugira ngo asubizwemo ubushobozi yavukanye.

Igiti cy'ikibonobono kiri mu murima wahinzwe mo ibishyimbo ndetse n'ibigori. Icyo giti kigira umumaro.

Igihingwa cy'umugwegwe ni igihingwa cyangwa se ni igiti kiboneka mu nce z'ibikombe by'imisozi.

Insina zidakorewe neza, zitashizeho ifumbire byanze bikunze ntizikura neza, kubera ko ziba zarabuze ifumbire mborera.

Ibihuru si byiza aho dutuye cyangwa se hafi yaho tunyura kuko byatuzanira amakuba atandukanye hari n'indwara ndetse n'udusimba turyana.

Inzu y'igitangire itariyubakwa yubatse ku gasozi, ahantu h'imisozi igizwe n'amabuye ndetse ikikijwe na agashamba.

Ibyatsi iyo bikuze cane biba ishamba, kandi ijyo shamba rishobora kubonekamo inyamaswa zangiriza abaturage, niyo mpamvu tuvuga ngo duteme ibihuru.

Inzu itubatse neza, itangijwe na fonasiyo y'amabuye idakoteye neza, idafite sima ku gikuta ishobora guteza impanuka mu gihe cy'imvura nyinshi.